Ishuri rimeze neza cyane, ririmo intebe zikozwe mu biti bisa n'igitaka, harimo umwana wicaye arimo kwiga, ndetse n'ibishushanyo bitatse imbere mu ishuri, biriho amabara umutuku, umukara, umuhondo,

Abantu bambaye imyenda isa n'umweru bari ahantu hasize amakaro y'umweruru barimo gu gutesitinga ibikoresho. Gutesitinga ibikoresho ni byiza cyane kuko bituma dukoresha ibintu byujuje ubuziranenge kandi tukirinda kuba byakwangiza ibintu byinshi.

Umusore wambaye isarubeti isa n'ubururu ishushanyijeho ibyo akora inyuma, uyu musore yambaye ingofero y'umuhondo, ni umutekinisiye akora neza ibintu bye bikagenda k'umuronko ushaka nawe waza akagukorera intebe, ameza , n'ibindi bikoresho byose wifuza.

Umuntu wambaye imyenda y'igitaka ndetse n'ishati y'umweru, arimo gushushanya umuntu mwiza cyane, mwese nimuze twige gushushanya kuko ni byiza cyane.

Abantu beza cyane bambaye imyenda ifite amabara asa n'umweru, bari mu nzu yubakishije amatafari ahiye, barimo gukora ubutekinisiye bwiza cyane.

Umubaji wambaye isarubeti isa n'ubururu, arimo kubaza akoresha igikoresho cyabugenewe. Mwese muze twige gukoresha ibikoresho bitandukanye, kuko byinjiza amafaranga menshi.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, mu ntoki ze afashe icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahuri, umukobwa atanga serivisi imeze neza cyane, kuko uranabibona ibikoresho afite bifite isuku ihambaye.

Abantu bambaye amataburiya asa n'umweru ndetse n'ingofero z'amashashi zisa n'umweru, bari gutesitinga imiti itandukanye. Aba bantu turabakunda kuko badutesitingira imiti maze tukayinywa ifite ubuziranenge.

Abaganga bambaye imyenda y'umweru ndetse na masike, barimo gu gutestinga ibikoresho bitandukanye, abaganga bafite akamaro kenshi kuko batanga serivisi zijyanye no kuvura abantu barwaye, abari bihebye maze bakabasubiza ubuzima.

Abantu bambaye amasarubeti asa n'ubururu barimo gukora inkweto zamabara atandukanye, aba bantu bicaye ku ntebe zisa n'igitaka, gukora izi nkweto ni byiza cyane kuko bitanga amafaranga ndetse n'abantu benshi bakagira isuku kuko nta muntu uba ucyambaye ibirenge.

Abakanishi bambaye amasarubeti y'icyatsi ,ndetse harimo n'uwambaye ubururu. Barimo gukanika imodoka. Gukora igikanishi ni byiza cyane kuko bitanga amafaranga menshi. Bityo bigatuma umuntu aba yajya kwiga umwuga wo gukanika imodoka, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'udupfukamunwa tw'umukara n'ubururu, bari mu cyumba cya ayisitirumu, urabona ko umunyeshuri umwe arimo guhugura undi uburyo yakoresha kompiyuta, ndetse undi aramukurikiye kugira ngo abashe kubimenya neza cyane, n'ahantu yibeshye.

Umunyeshuri wambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umweru, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, arimo gutanga ikiganiro imbere y'abandi banyeshuri bicaye, imbere yabo hariho amazi yo kunwa. Uyu munyeshuri aratanga ikiganiro neza cyane kuko n'abandi baramukurikiye, kugira ngo bumve ikiganiro ari gutanga kandi babone n'uko batanga ibitekerezo byabo.